Ahantu bakanikira amagare, ikinyabiziga cy'amagare, akaba aricyo kinyabiziga gikundwa gukoreshwa mu majyaruguru cyane.

Iduka ricuruza imyenda n'udukapu, bigaragara ko bacuruza imyenda ya siporo ikunda gukoreshwa cyane mu gihe bari gukora siporo, n'udukapu two kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.